Igikoresho gikomeye cyane, abantu bakunda kugikoresha bari gufata nka videwo, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, icyo gikoresho hasi hateretseho akabogisi, gifite n'amaguru atatu y'umukara, hejuru hateretseho na kamera.

Darone ni igikoresho abantu benshi bakunda kwifashisha bari gukora videwo, cyangwa se bari gukora ibindi bintu bigiye bitandukanye. Dorone yoroshya ibintu kuko ifata neza videwo abantu benshi barazikunda cyane.

Ahantu hahuriye abantu benshi cyane biribkugaragara ko ari abayobozi, abapolisi n'abasirikari abandi bantu bambaye imyenda ya gisivire bambaye agapfukamunwa.

Umupolisi umeze nk'aho ari kuyobora aba makurusi y'amagare aho bagomba kunyura, uri kubonako ari abagabo bane batwaye amagare , bashobora kuba basize abandi cyangwa se bo bakaba basigaye.

Umuporisi ahagararanye n'umugabo w'umusivire. Bigaragara nk'aho sinzi ibintu bari kuvugana. Wasanga uyu mugabo hari ibyaha yakoze, bakaba bagiye kumufunga.

Abasirikari bari ku karasisi, bari kugendera ku murongo, bambaye imyenda ya gisirikare. Abasirikare ni beza, kuko baducungira umutekano neza cyane.

Ahantu hari kugaragara ko hariho abayobozi batandukanye, abapolisi ndetse n'abandi bantu bahagaze imbere bambaye imyenda y'imituku ndetse n'icyatsi.

Abanyerondo b'umwuga bari kubakoresha siporo kugirango ngo babashe kugira imbaraga, kuko hari igihe bahura n'ibogamizi z'uko nta mwitozo bakoze.

Abantu benshi bameze nk'aho ari abayobozi bari gucurira, cyangwa se bakaba bari kuririmba. Bakaba bahuriye ahantu hamwe mu kirori cyangwa se mu nama y'abayobozi.

Ahantu hameze nk'aho hahurira abayobozi benshi bari mu nama biganjemo abasirikari, aba guverineri ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari kumva inama.

Abantu bameze nk'aho bari mu itsinda runaka, bameze nk'aho bari mu nama, kuko bari kugaragara nk'abantu b'abayobozi bo mu nzego zikomeye, umwe bamuhaye ijambo ari kugira ibyo ababwira.

Abantu bicaye mu kantu kameze nkaho ari akazu gasakaye hejuru gusa, hariho umugabo uhagaze afashe imikoro ameze nkaho ari kubakoresha inama.

Abakobwa cyangwa se abagore, bari kubyina imbyino gakondo, bose bambaye imikenyero, ndetse biteze n'urugori mu mitwe yabo.

Inyubako zo mu bwoko bwa kera bubakiraga abami. Izi nyubako ahantu zisigaye niho hake kuko ni abami gusa bazibagamo naho ziri ubu ni urwibutso.

Umugabo umeze nkaho ari kuragura, ameze nkaho ari umupfumu. Abapfumu ni abantu bakunda kuragurira abantu, bari kubabwira ko hari ibintu runaka benda kugeraho.

Inka y'inyambo ikikijwe n’abantu benshi bambaye imyenda itandukanye amapantaro n'amajipo by'ubururu n'udushati tw'umweru. Hariho n'umugabo uvuga inka wambaye imikenyero n'akagofero.

Igihingwa cy'igifenesi. Igifenesi ni imbuto nziza cyane. Abantu barazikunda, kuKO ziraryoha cyane.

Abakaraza bari gukararaga ingoma. Kuvuza ingoma ni byiza cyane kuko bituma umuntu yishima cyane, kandi yari adaruka kwishima.

Ubwoko bw'inka y'inyambo ifite, inyambo ni inka ikunda kuba ifite amahembe manini cyane yigondoye.

Umuntu umeze neza cyane kuko yasokoje uburyo bwiza bugezweho bw'abajene b'ubu ngubu, yambaye agapira k'umukara, yasokoje umusatsi neza, asigamo n'utuvuta.

Aba mama babiri umwe uri gusekura isombe undi ameze nk'aho ari kuvoma amazi mumbase, hariho inkoko ziri gutembera. Inkoko ni nziza cyane kuko zitera amagi abantu bakayarya ndetse zikaba zigira n'inyama ziryoha cyane.

Umuntu umeze nk'aho ari kurashisha umuheto. Umuheto ni kimwe mu bikoresho bakoreshaga kera bari guhiga, cyangwa se bari gupima ikintu runaka.

Abakaraza bambaye amashati y'umweru, bakambara n'udutambaro tw'imituku bose bari kuvuza ingoma.

Intore ziri guhamiriza. Zambaye amayugi, ndetse zikaba zakenyeye n'udutambaro tw'umutuku n'umweru. Zikaba zifite n'inkota ndetse n'ingabo.

Inka z'inyambo, inka z'inyambo ni nziza cyane. Kuri ubu ngubu zatangiye gucika, mu karere ka Bigogwe niho hasigaye inyambo nyinshi cyane.

Agacuma, ni agacuma banyweragamo. Kuva kera babishyiragamo inzoga ndetse n'ibindi, ariko na n'ubu ngubu baracyakanyweramo.

Intore, intore ziri kubyina zanezerewe zambaye, zaberewe zifashe icumu ndetse n'ingabo.

Abantu b'abakobwa bameze nk'aho bari kubyina imbyino gakondo. Imbyino gakondo ni nziza cyane, kuko abantu iyo bari kubona abantu bari kuzibyina, bumva bishimye cyane, kandi bano bakobwa baraberewe neza cyane.

Ubwoko bw'igiti cy'umuvumu, umuvumu ni igiti gikunda kuremera cyane kandi gikunda kugira amazizi aryana mu maso.

Igikoma basutse mu rukiza, urukiza barutegesheje ingata, kugira ngo icyo gikoma kitameneka bayiteretse kungata, ingata nayo bayitereka agatambaro.

Abakobwa bameze nk'abakobwa ba kera, aho hejuru bambaye ubusa, bakaba bambaye uruhu hasi gusa, bikoreye utubindi bameze nk'abagiye kuvoma.

Umugabo umeze nk'umwami wa kera ,ari kumwe n'umugore we bicaye, imbere yaho hateretse ikirahuri, kimeze nk'aho kirimo inzoga bari kunywa.

Ikibindi bashyizemo imiseke biragaragara ko hashobora kuba hari ikintu kirimo, mbere abaturarwanda bajyaga hamwe bakaba basangirira hamwe mu kibindi bateretsemo imiseke.

Abagabo b'intore bameze nk'aho bari kubyina indirimbo gakondo, bambaye imisatsi mu mutwe, bafite n'ingabo ndetse n'icumu.

Abantu bameze nkaho ari abakecuru bafite uduti batumanitse hejuru. Umukecuru umwe yiteze umukenyero w'igitaka nigitenge cy'umukara.

Ibiryo biteguwe neza cyane. birimo ibigori, ibirayi, igikwanga n'umuceri. Hariho n'amasahani Y'umweru.

Agahoro gakozwe nk'agapanga. Ariko na none ni najoro bakoreshaga kera. Izi najoro ntabwo zigikunda kuba muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ibiryo bya kinyarwanda biteguye neza cyane hariho ibijumba, imyumbati, ibigori, hariho ibihaza, imboga, ibishyimbo, amajeri, ndetse n'ibigori. Ni ibiryo biteguye neza cyane bya kinyarwanda.

Umuntu umeze nkaho ari umukecuru ufashe agakoni, ari kugenda ari gusanganira abandi bantu, bahagaze hirya yabo bameze nk'aho bari kuganira.

Gukama ibitoki bya kinyarwanda, biri kugaragara ko hari abantu benshi bahuriye ku muvure, bose bari gutonora bagiye gukamamo inzoga cyangwa se umutobe, abantu barawukunda cyane.

Umugabo uri gukama inkaka y'inyambo ifite amahembe manini, izo nka zikunda kuba mu gice cy'uburengerazuba.

Umumama uhetse umwana, uri kuboha agaseke. Uduseke ni twiza cyane, abantu baratwifashisha bari gusana cyangwa se bari kugemura.

Abamama bicaye hamwe, bari gukora umwuga wo kuboha ibirago. Kuboha ibirago ni byiza cyane, byinjiza amafaranga, ndetse abanyarwanda bakunda birago cyane.

Inkono, inkono n'igikoresho abantu bakoreshaga mbere bari guteka ibiryo bigiye bitandukanye, kuko kuri ubu ngubu inkono zisanzwe zitangiye gucika, kuko haje amasafuriya.

Abantu bahagaze hamwe bari kuvuza amahembe mbese amakondera. Bambaye udupira twi'icyatsi bakenyeye, udutenge two mu bwoko tw'uruhu rw'ingwe.

Inka zimeze nk'aho ziri ahantu mu rwuri bazororeramo bakanaziheramo amazi, inka zivanze, inyombo ndetse n'izitari inyambo.

Ingoma ebyiri ndetse n'akandi gatoya, hasi hariho imirishyo bakoresha bari kuvuza izo ngoma, ingoma bazifashisha bari kuvugiriza abapadiri, ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Abahungu batatu, umwe ari gusimbuka umugozi, abandi babiri barahagaze bari kumushungera, ari gusimbuka umugozi azamukiye ku giti.

Abantu bizihiwe b'abagabo bari gukina umukino w'igisoro. Urusoro ni rwiza cyane rutuma umuntu afunguka mu mutwe. Bafashe agacuma ndetse kuhande, hariho n'abana b'abasore bari gufana abo basaza.

Umugore wicaye ku kirago wambaye amarinete, wambaye ikanzu akenyeye igitenge ari gukora uduseke. Uduseke ni twiza cyane, abantu batwifashisha bari gusurana bari kugemurirana.

Umugabo uhagaze ameze nkaho ashaka kuvuga amazina y'inka kuko yakenyeye kandi yaziteze ururgori kandi yakenyeye imikenyero.

Icyibo abantu bagemuriranamo mu gihe umuntu agiye gusura undi muntu, hari nk'utuntu agiye kumushyira. Adushyira mu cyibo ubundi akajya kumusura.

Umutiba ni igikoresho abantu baboha mu mbingo bamara kukiboha bakagihoma. Bamara kugihoma n'amase bagashiramo amaso n'umutemeri bakawusembaho bakajya kuwanika hakazajyamo inzuki.

Ubwoko bwo mu gikoresho cy'isekuro. Isekuro ni igikoresho abantu bakoresha bari gusekura ibintu bitandukanye. Urugero bari gusekura ubugari ndetse n'isombe, imboga barisha ibiribwa bigiye bitandukanye.

Uruvunge rw'abantu benshi bahuriye ku muvure, buri muntu afashe umuseke ari gukurura inzoga mu ki... mu muvure, bameze nk'aho bahuye mu birori cyangwa se bakaba bavuye nko mu gikorwa runaka bakavuga reka twihembe iyi nzoga.

Ibiryo biteguye neza cyane. Nk'imyumbati n'umutsima w'agahunga， ndetse n'imboga. Harimo n'urutoryi, ibi biryo kubirya ntabwo byajyana，kuko hariho imyumbati，kibaye hariho imboga gusa.

Igiko, igiko ni igiti kinini cyane gikunda kugira amacumu apfuma. Igiko iyo cyakuze kiba cyarazanye ururabo rw'umutuku.

Umugabo umeze nkaho ari gucurangira abandi bantu inanga, inanga n'akantu kaba gakozwe mu giti ndetse hariho n'akandi kantu hejuru bajya barakubitaho ikavuga akayivugisha.

Abantu bameze nk'aho bari gukama ibitoki mu buryo bwa kijyambere. Gukama ibitoki ni byiza kuko havamo umutobe ndetse hakavamo n'inzoga y'ibitoki kuko abantu barayikunda cyane.

Ingagi ni inyamaswa ikunda kuba mu birunga, ingagi ni nziza cyane, kuko ituma mu Rwanda hazamo abanyamahanga bakadusigira amadovize.

Umugabo uhagaze, umeze nk'umwami wa kera. Yasokoje amasunzu, yiteze n'urugori mu mutwe. Yiteze agatambaro k'umweru n'umukara, afite n'ubwanwa busokoje neza.

Abantu bameze nk'aho bari gukora utugemeri ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Bakaba barimo ingeri zose, abana ndetse n'abamama.

Imitiba itondetse neza ku murongo ,ugaragara ko ari ikivumvu, imitiba bakuramo ubuki, ubuki kandi ni bwiza cyane bwongera isukari mu mubiri ,ubuki butuma umuntu atekereza neza.

Udukuteri twa burutufu ubungubu ibintu bisigaye byaroroshye ni ukukambara ukaba wanahamagara umuntu ntakibazo ufite kandi mukumvikana neza cyane.

Ipensi, ipensi ni igikoresho abantu benshi baragikoresha ,bari gukora ibintu bigiye bitandukanye ,gukanika ndetse no gufunga ikintu runaka.

Ubwoko bw'igikoresho cy'ikoranabuhanga pulize, raronje bacomekaho amasharijeri bagiye gucaginga amatelefone yabo.

Ahantu hubatse neza cyane ,hubatse nk'aho ari mu kigo cy'abapolisi cyangwa se ikigo cy'abasirikari kuko giteye amarangi, abaturage badakunda gutera.

Inyubako zubatse neza cyane, biragaragara ko ari inyubako zigezweho kuko zubatse mu buryo bwiza cyane, hakorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Ahantu hameze nk'aho ari muri gare runaka, kuko uri kubona ko harimo imodoka nyinshi zitandukanye, kandi hakaba harimo n'abantu bahagaze mu mpande mpande, bashobora kuba bashaka gutega imodoka.

Inzu zimeze nk'aho zubatse ku murongo umwe, hino y'aho hariho porodire, hakaba hariho n'ikintu cyubatsemo hagati y'ucyumweru.

Inyubako yubatse neza cyane, imeze nk'aho ari inyubako yubatse mu buryo bwa kijyambere, ifite amadirishya n'inzugi by'umweru.

Ahantu hari kugaragara ko hashobora kuba ari ku ruganda runaka, kuko biri kugaragara ko bashobora kuba bagiye kurutataha, kuko ndi kubona ko rukiri rushyashya.

Ikiraro cyo mu kirere, iki kiraro kigaragara ko ari ikiraro bakoreye ahantu kugira ngo habe nyaburanga. U Rwanda rukomeje kugira iterambere rihambaye.

Inzu yubatse mu buryo bw'igorofa. Ni Ingoro y'Ubutabera ya Musanze. Yubatse neza cyane, abantu bajyamo bafite ibibazo, nuko ababuze ubutabera bakabaha ubutabera.

Inzu yubatse mu bwoko bw'urusengero, kuko iyi nzu yubatse mu buryo bwa kijyambere kandi ni nini cyane, nta muturage wapfa kuyipevera.

Abantu benshi bicaye ku nyubako. Inyubako iri kugaragara ko ishobora kuba ari urusengero. Kuko hejuru hariho n'umusaraba, iyo nyubako ikaba isakaje amabati y'ubururu.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere yubatse neza cyane ku ruhande hari ahantu hari ikigega iteye amarangi y'umweru, isakaje amabati y'umutuku.

Umama ameze nkaho ahagaze mu nyubako yubatse mu buryo bw'amagorofa. uyu mumama yambaye agapfukamunwa n'ikanzu y'amabara n'isaaha na marineti.

Ahantu hameze nk'aho ari ahantu k'umudugudu w'ikitegererezo, kuko n'amazu yubatse ku mirongo kandi bose yubatseho ibintu bimeze kimwe.

Ahantu hameze nk'aho ari nko mu kigo runaka. Kuko izi nyubako zubatse mu bwoko bw'amashuri. Imbere yaho hashinze idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu zimeze nk'aho bazikoreramo ubucuruzi, inzu zubatse neza cyane, ziteye amarangi y'umuhondo, ku rubara haparitseho moto, hariho n'utwuma tumanitse tw'ubururu.

Abantu bameze nk'aho ari abanyeshuri. Bahagaze ku rusenge rw'ishuri cyangwa se ku rusengero. Bambaye imyenda y'umwero hejuru, hasi bambaye ibikupe.

Inyubako imeze iri kugaragara ko yubatswe mu gihe cyo hambere, kuko yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ifite utudishya twinshi. Bigaragara ko ari urusengero barwubatse mu minsi yo hambere.

Inyubako ziri kugaragara ko, ari inyubako zo hambere, kuko zubatse mu buryo bwa kijyambere, hanze hubakiyeho n'akantu, bateretseho ikigega cyo kuvomeramo amazi.

Inzu imeze nk'aho ari iya kera, kuko yubatse mu buryo bwa kijyambere isakaje amabati y'umweruru hino yaho ari igipoto cy'umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako imeze nk'aho ari urusengero, ni urusengero ariko rugaragara ko rushobora kuba rushaje, rushobora kuba warwubatse ahashize.

Inyubako iri kugaragara ko ari urusengero rutandukanye ku idini runaka, rusakaje amabati mato ruteye n'uturangi tw'igitaka mupande.

Inyubako imeze nk'aho ari ibitaro, cyangwa se ari akagari, cyangwa se umurenge, kuko yubatse mu buryo bugezweho.

Inyubako yubatse neza cyane, hariho n'igipangu gisize irangi ry'ubururu ndetse n'igitaka, isakaje amabati y'umutuku, iteye no mu n'irangi ry'igitaka ku nzu.

Inyubako yubatse neza cyane. Iyi nyubako biri kugaragara ko hari igikorwa gishobora kuba kiberamo. Kuko iteye nk'aho ari akagari, cyangwa se ari nk'urusengero runaka.

Inyubako zubatse neza cyane, na kaburimbo nziza cyane y'uturonko tw'umuhondo. Izi nyubako zubatse mu buryo bw'amagorofa, abantu bazikoreramo buzinesi zigiye zitandukanye.

Abantu bameze nk'aho bari ku kiliziya cyangwa se bari muri korari, kuko imbere yabo hahagazeho umuntu umeze nk'aho ari umupadiri uri kugira ibyo abigisha.

Inyubako yubatse neza cyane, bigaragara ko ari igikorwa runaka kiberamo ,inyubako isakaje amabati y' umutuku n'amadirishya y'umweru.

Inzu bigaragara ko bayubatse mu gihe cyo hambere, kuko yubatse mu buryo bwa kijyambere, mu muryango hahagazemo akana gatoya hakaba hateretseho n'umurasire, umurasire ni mwiza cyane kuko utuma abantu babona neza cyane nk'umuriro w'amashanyarazi.

Ikiraro cyubatse ku buryo bugezweho neza cyane ,iki kiraro cyubatse neza kuko abantu bose bari kunyuraho ntakibazo bafite.

Inyubako imeze nk'aho yubatswe mu gihe cyo hambere kuko yubatse mu buryo bwa kijyambere. Ni inyubako isakaje amabati y'igitaka, iteye n'irangi ry'umweru imbere.

Inzu yubatse neza mu buryo bwa kijyambere bugezweho neza cyane. Inzu izitije amatafari matoya n'agapangu gafite irangi ry'igitaka.

Ubwoko bw'inyubako zubatse neza cyane zimeze nk'aho ari umudugudu w'icyitegererezo, kuko ziba zubatse mu bwoko bumeze kimwe kandi zitonze ku murongo.

Ubwoko bw'inzu zubatse ku murongo zimeze nkaho ari inzu babubakiye, kugira ngo babatuze ahantu heza cyane.

Umujyi uri kwaka neza cyane, kugaragara ko ari i Kigali, kuko ni mu murwa. Hariho inyubako zimeze neza cyane zikeye, amatara ari kwaka neza cyane, n'umuhanda ukeye neza cyane, u Rwanda rwacu ni rwiza cyane.

Gereza ya Musanzege. Gereza ya Musanze ni igororero bakoreramo abantu bananiranye， cyangwa se abantu bakoze ibyaha bigiye bitandukanye.

Inyubako imeze nk'aho ari urusengero ,kuko uri kubona ko hariho abantu benshi cyane bambaye imyenda igiye itandukanye, kandi hakaba hariho n'umusaraba hejuru y'iyo nyubako.

Inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere. Inzu iri kugaragara nk'aho ari inzu yo mu bwoko bwa kera. Iyi nzu yubakishije amabuye, ndetse isakaje n'amabati y'umweru.

Inyubako yubatse mu buryo bwa kijyambere. Ifite imiryango isa nk'ubururu, isakaje amabati y'umweru yashaje.

Abantu bameze nkaho bahagaze imbere y' amabutike bacururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye, kuko hariho n'abandi bicaye.

Inzu yubatse nkaho ari ishuri, hanze hicayeho abantu bameze nkaho bari mu nama, sinzi ibintu bari gukora.

Uruhurirane rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, birimo amagare, amamoto, ndetse n'amamodoka, umuhanda wubatse neza, utuma imodoka ndetse n'amamoto bigenda neza cyane mu muhanda, nta mpanuka zibayemo.

Mu bantu benshi bahagaze ahantu hamwe, bameze nk'aho hari umugabo uhagaze ku ruhande uri kujya arabakoresha inama ufashe mikoro iri kuri sitani.

Abantu bicaye ahantu hameze nko mu murenge. Hashobora kuba hari kuberamo inama zitandukanye. Harimo abantu b'ingeri zose. Abamama ndetse n'abantu bakuze.

Ahantu hameze nk'aho ari mu nama runaka, kuko hari impapuro bari kubaha kandi wasanga bari kuruha umukuru w'umuryango.

Ahantu hateraniye imbaga y'abantu nyamwinshi, bateranye bameze nkaho bari kumva inama runaka.

Aba uruvunge rw'abantu benshi cyane bicaye ahantu hamwe, bameze nk'abari mu nama bakurikiye umuyobozi wabo ari kubigisha.

Abantu bicaye bari kureba imbere, bari gukurikira abantu bameze nk'aho bari kubigisha ,bambaye imyenda y'umukara, abari kwiga bo bambaye imyenda y'imyeru.

Imodoka zo mu bwoko bwa sikaniya zikunda kuzana ibirangurwa mu gihugu cya Tanzaniya .izi modoka zirangura ibintu byinshi cyane ,zikabasha koroshya ingendo.

Imodoka ebyiri zisa ziparitse ahantu hamwe. Izi modoka zifite ibara ry'ubururu, zimeze nkaho ari Iza kampanI runaka.

Abantu bahagaze ku kibuga cy'indege bameze nkaho bari kwifotoza bambaye udupfukamunwa tw'imyeru n'amajire. ndetse bakaba ari abagabo batatu n'abagore babiri.

Umugabo uri gusunika igare rimeze nkaho ripakiye imizigo iri mu mifuka y'umweru. Umwuga wo gutwara igare utunze abantu benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda.

Imodoka ziri mu bwoko bwa rukururana, rukurana n'imodoka iba ari ndende cyane bateranyijeho ikindi gikontineri kimwe inyuma yaho.

Imodoka iri mu bwoko bwa ritiko, imodoka yorosha ingendo bityo ingendo zikorohera abagenzi bagiye mu ngendo z'igihe zitandukanye.

Uruhurirane abantu benshi. Bameze nk'aho bari muri gare bategereje bose gutega amamodoka, cyangwa se bakaba bari gushaka kujya guhaha ibintu bitandukanye.

Ubwoko bwo mu modoka bita ritiko. Ritiko ni imodoka nini cyane, kuko ijyamo abantu benshi, bityo abantu bakabasha gukora ingendo biboroheye.

Imodoka yo mu bwoko bwa dipine, ifite amabara y'umutuku ndetse ikagira n'amapine y'umukara.

Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo, ifite amapine atatu inyuma n'ayandi abiri imbere, yifashishwa mu gutwara esanse na za peteroli mu ngendo zigiye zitandukanye.

Abagabo n'abagore bari mu bwato, ubona ko ari abazungu bari kumwe n'abasemuzi. Abazungu bicaye mu bwato bwa kinyarwanda pe! Bicaye mu bwato, bari kugenda bari gutembera, bari kubatembereza Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Uruhurirane rw'abantu benshi biragaragara ko hano hantu ari muri gare, kuko haparitse n'imodoka kandi harimo abantu benshi bafashe ibikapu bigiye mungendo zabo zigiye zitandukanye.

Uruhurirane rw'amamodoka ndetse n'abantu, hano hantu hari kugaragara ko ari umurwa mukuru w'uRwanda ari wo Kigali ,imodoka nyinshi zitegereza abagenzi bagiye mu byerekezo bitandukanye.

Umuhanda unyurwamo mu byerekezo bitandukanye. Hari umuntu upakiye igare, n'undi mugabo uri kwambuka, undi mugore utegereje kwambuka. Imihanda yoroheje ibintu byinshi.

Abagabo batwaye amagare ari bane. Umwe ari imbere arahagaze, abandi babiri barimo hagati n'undi uri inyuma utwaye umukobwa. Umwuga w'ubunyonzi utunze abantu benshi hano mu Rwanda, kuko haba amafaranga ahagije ku buryo yatunga umuryango.

Abagabo bahagaze ahantu hameze nko mu ndege, bameze nk'aho ari abaseriveri bo mu ndege kuko bambaye amajire , ndetse bafite n'amabaji bayambaye.

Uruvunge rw'abantu benshi n'imodoka nyinshi biragaragara ko ashobora kuba ari muri gare runaka. Imodoka ni nziza cyane zorusha urugendo rw'abantu benshi.

Imodoka zimeze nk'aho ziri gukora ingendo zitandukanye . Imodoka zorosha urugendo rw'abantu benshi, kuko imodoka zatuma umuntu agera iyo agiye vuba.

Moto ziparitse neza ku murongo, kuko biri kugaragara ko ari izo abamotari bakoresha bari gushaka abagenzi, cyangwa se zikaba ziri kugurishwa, hatunze abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda.

Umugabo w'umumotari, umumotari akorera amafaranga menshi cyane, umwuga w'ubumotari utunze abantu benshi kuko habamo amafaranga menshi.

Imodoka ipakiye, igiye kubisikana n'indi ipakiye nayo iri kuza. Izi modoka zikunda kujya kurangura ibintu muri Tanzania, ziri kubizana mu Rwanda.

Imodoka yo mu bwoko bwa ritiko. Ino modoka ikora ingendo zitandukanye, iririmo gukora urugendo rwo gutwara abantu. Izi modoka zoroheje ibintu byinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda.

Ubwoko bwa moto bita rifani yoroshya ingendo, ikorohereza n'abantu kwikorera ibintu byinshi biremereye. Ipakiye abantu babiri inyuma, n'umugore uyitwaye, n'undi wicaye ku ruhande w'umugore.

Umukinnyi uri gukina umukino wa basiketi wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'ubururu, hariho abandi bantu bamushungeye muri sitade baje kumufana.

Inyubako yubatse neza cyane, bigaragara ko iyi nyubako ari iyo mubakire bakize cyane, iyi ni pisine bakunda kogeramo.

Abakinnyi bahuriye mu kibuga. Gukina ni byiza cyane, bituma umuntu atekereza neza, kandi akagira kuraje. Kandi imitsi ye irananuka neza cyane.

Umuhungu cyangwa se umugabo biri kugaragara ko ashobora kuba ari gukina umukino wa hendi boru, umuhungu mwiza cyane wambaye akajezi ku Rwanda.

Umukobwa uri muri siporo, hashobora kuba hari ikintu ashaka gupima, yambaye agakabutura gatoya k'umukara, yambaye n'inkweto z'umukara n'amasigisi y'umweru...

Abantu bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaguru. Urabona ko abambaye ubururu budahiye n'abambaye umutuku, umuntu ufashe baro ni uw'ubururu budahiye. Gukina ni byiza cyane, kuko bituma amaraso atembera neza mu mubiri, n'imitsi ikagororoka.

Imodoka imeze nk'iyo bakoresha bari gukora amarushanwa yo gusiganwa ku modoka, kuko imeze nk'iyafungutse urugi rwayo.

Abagabo babiri bahagaze b'abasifuzi, bambaye amajezi asa, ndetse bakaba bambaye n'amasaha asa, biri kugaragara ko aba ngaba ari abasifuzi, bagiye gusifura umukino runaka.

Umuntu w'umugabo cyangwa se w'umusore, umeze nkaho ari gukora siporo ari gusimbuka, yambaye agakabutura k'umweru n'umukara, yambaye ibirenge afashe n'agakoni gafite amabara y'umuhondo n'ubururu.

Umuntu w'umukobwa umeze nk'aho akinira igihugu cya Senegari. Uno mukobwa afashe baro mu ntoki ari gukina umukino wa basiketi.

Abantu benshi bameze nkaho ari ikipe ikina umupira w'maguru ,umupira w'amaguru ni mwiza utuma amaraso atemmbera neza mu mubiri n'imitsi ikananuka.

Imodoka imeze nkaho iri muri curusu kuko abantu benshi bayirangariye cyane, hariho n'undi mukobwa uri kuyihagarika kugirango ngo ibashe guhagarara.

Abagabo batonze umurongo bavanzemo n'abagore, bameze nkahoho hari ibyo bari kubigisha gukora. Bambaye udupira dusa tw'umukara, n'amapantaro y'umweru.

Ikiraro mpuzamahanga, kiri kunyuraho abagabo bari mu makurusi y'amagare, hasi hari kunyuramo amazi asa nabi cyane, ashobora kuba avuye mu misozi igiye itandukanye.

Abantu b'ingeri zose, bigaragara ko bari muri siporo. Siporo ni nziza cyane, ituma umubiri unanuka neza, ndetse ugatekereza neza, n'amaraso agatembera neza mu mubiri.

Abakobwa bari gukina umukino wa hendibolo. Abakobwa bambaye imyenda itandukanye. Bambaye imipira y'umituku n'amakabutura y'umukara, abandi bambaye imyenda y'igitaka gusa.

Imodoka ifite amabara asa nk'ubururu， ndetse hakaba hariho n'ibyapa bigiye bitandukanye， ifite n'amapine y'umukara，ariko ubona ko ishobora kuba isa nabi，kuko ishobora kuba ivuye ahantu ha kure.

Akayira kari kunyuramo umuntu umwe, ruguru hariho uturabo tw'umuhondo. Utu tuyira mbere twabaga ari twinshi tumeze gutya, ariko ubu twatangiye gucika, kubera ko batangiye kuzana amakaburimbo mu gihugu cy'u Rwanda.

Inyubako iteretse ahantu heza cyane haberwa no gushiraho ubucuruzi butandukanye. Muri iki gihe, abantu bakora umurimo w'ubucuruzi babayeho neza cyane.

Ahantu hameze nk'aho ari mu isoko, bacururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye, isoko ryorohereza abantu, kuko hakunda kuba harimo ibintu byinshi.

Ubwoko bw'ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa moto. Moto ni nziza cyane，kuko igabanya urugendo rw'abantu.